Imbwa y'umutamu yambaye ishumi ry'umukara, ririho ikirango cya polisi. Imbwa nki'izi zifashishwa n'abapolisi, mu gucunga umutekano no gusaka ibicuruzwa abacuruzi bacuruza bitemewe.

Imbaga y'abantu bicaye hamwe. Abagore, abagabo n'abana. Bambaye neza cyane. Abakecuru biteze udutambaro mu mitwe, imbere yabo hahagaze umuntu wambaye ishati y'umweru. Ni umuyobozi bari mu nama, kwiga ku iterambere ry'umudugudu wabo.

Imbaga y'abantu bakoraniye hamwe abagabo n'abagore. Bateraniye hamwe bari kumwe n'abayobozi babo. Barimo baraganira ku ngingo zitandukanye zerekeye umudugudu wabo.

Ikoraniro ry'abantu bicaye hamwe mu cyumba cy'inama. Imbere hariho umugabo n'umugore. Umugabo yambaye amarinete. Afite mikoro mu ntoki. Yambaye n'isaha n'ishati y'ubururu. Ari gutanga igitekerezo cye mu nama cy'uko abona ibintu byakagombye kugenda.

Ikigega gisakaje ibyatsi kimanitseho ibigori, iruhande rwacyo hari igisobane, hakaba umutiba, n'inkoko. Iruhande rwabyo hariho ikibumbano cyicaye ku ntebe. Hari kandi indabo, hakaba imigwegwe, amakoma y'insina, n'ibindi biti byo mu bwoko butandukanye.

Ameza ateretseho utubindi hariho n'udukono tw'udusyari, abantu batandukanye bari kubyitegereza, baje kubisura. Utu tubindi ndetse n'utu dusyari ni tumwe mu turango tw'umuco wa kinyarwanda.

Intore zambaye amayugi ndetse n'imikenyero, zambaye kandi imisatsi ya kinyarwanda, mu biganza byazo harimo icumu, zirimo zirabyina imbyino za kinyarwanda. Ibi ni bimwe mu bigaragaza umuco wa kinyarwanda.

Isekuru ibaje mu giti, isekuru ibazwa mu giti cy'umuvumu isekuru kandi yifashishwa, mu gusekura isombe ndetse n'imyumbati, n'ibindi bitandukanye ni kimwe mu bikoresho bya kinyarwanda.

Abakaraza bambaye imyambaro irimwo imishanana, harimo ibara ry'umuhondo, umukara n'umweru, barimo baravuza ingoma, bafite imirishyo. Umwe muri bo yambaye ishati y'umukara irimo ibara ry'umweru. Bigaragaza umuco nyarwanda.

Abazungu babiri. Umugabo n'umugore. Umugabo n'umugore bambaye imishanana. Umugabo afite uruhu rwinyamaswa mu ijosi. Baje gusura ahantu ndangamurage. Abanyarwanda babayoboye babari iruhande.

Intore ziri kubyina ziri guhamiriza zirasimbutse zifite amacumu mu ntoki zambaye imisatsi ya Kinyarwanda, inyuma yazo hariho abakobwa bambaye imishanana barimo kuvuza ingoma.

Akabya, igikoresho kimeze nk'igicuma. Akabya ni igikoresho cyo mu Rwanda rwo hambere. Akabya kifashishwaga n'abanyarwanda mu kubika amavuta. Kugira ngo hatagira abayangiza, cyangwa se ngo nk'imbeba ziyarye.

Urusengero rwiza cyane rwubatswe mu buryo bugezweho, rusakaje amabati yumutuku, hejuru yurusengero ku gasongero hariho umusaraba, imbere yarwo hicaye imbaga y'abakirisitu baje gusenga Imana.

Umuhanda w'umukara. Uciyemo umurongo w'umweru hagati. Iruhande hariho borodire ziri mu mabara y'umukara n'umweru. Iruhande rwaho hariho akayira k'abanyamaguru. Ku muhanda hariho amatara. Ayo matara nayo kugirango kumuhanda hadakorerwa ubujura ninjoro.

Inzu yubatswe muburyo bw'igihanga. Iteye amarangi yumuhondo. Iyo nzu ni ibiro by'umuryango wa FPR. Imbere w'iyo nzu hariho imodoka iparitse. Iruhande rwaho hariho ibendera ry'muryango wa FPR. Riri mu mabara y'ubururu, umweru n'umutuku.

Imodoka yumukara iparitse mu mbuga irimo amapave iruhande rw'iyo modoka hariho inzu. Inzu ikoreramo ibiro by'uruganda rwa mukamira rushinzwe gutunganya ibikomoka ku mata.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, inzu isakajwe n'amabati ashaje, ku madirishya y'inzu hariho irangi ry'umuhondo, inzugi n'amadirishya by'iyi nzu biteye irangi ry'ubururu, inzu iri yonyine.

Umukecuru ushaka kwambuka umuhanda, imbere y'umukecuru hari imodoka, iruhande rwe hari urusengero, urusengero ruriho umusaraba bigaragare ko ari urw'abakristu. Ni umuco w'abanyarwanda gusenga no gukunda Imana.

Inzu y'urusengero. Hejuru y'inzu hariho umusaraba. Inzu yubakishijwe amatafari ahiye. Ku nzu hariho udutambaro turi mu mumabara y'umuhondo n'umweru. Imbere y'inzu hariho imbuga yubakishijwe amapave. Mu mbuga haparitse imodoka y'umukara. Hariho abantu benshi.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'inyubako ebyiri ziri mu mpusha zitandukanye. inzu zubatse ziri kurebana ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye riteye uturange tw'umuhondo hejuru ku madirisha hariho amatiyo yamazi.

Ifoto igaragaza abantu bateraniye hamwe mu cyumba runaka baricaye umugore umwe arahagaze ashaka kubagezaho igitekerezo cye, afite mikoro mu kiganza kimwe ikindi afite urupapuro rwanditseho igitekerezo cye.

Umugezi urimwo amazi. Ukikijwe n'ibiti ndetse n'indabo z'amoko atandukanye. Iruhande hariho imodoka. Hakabaho n'umuhanda wa kaburimbo. Inyuma hariho inzu. Inzu zubatswe mu buryo bugezweho. Zishakakajwe amabati y'umutuku. Hariho n'andi mazu ageretse.

Umuhanda, umwana uri ku igare yambaye inkweto z'umuhondo n'umweru, yambaye ikabutura y'ikoboyi, yambaye umupira w'umukara. Inyuma ye hariho inzu. Atwaye igare.

Moto eshatu ziriho abamotari batandukanye, batwaye moto zabo mubyerekezo bitandukanye ,barimo gushaka amafaranga bafasha abagenzi kugera mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Abatwazi b'amagare bazwi nk'abanyonzi, barahagaze bategereje abagenzi ngo babatware mu byerekezo bitandukanye, bose bambaye udupfukamunwa birasa n'aho bari kwirinda icyorezo runaka.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo moto n'imodoka, iruhande rw'umuhanda hariho borodire z'umukara n'umweru. Ku muhanda kandi hariho amatara acanira ibinyabiziga nijoro, kugira ngo badakora impanuka.

Imodoka za bisi ziriw ibara ry'umuhondo zitegereje abanyeshuri ko basohoka zikabatwara iwabo, n'imodoka zikigo cyishuri, zitwara abanyeshuri mugitondo bavuye murugo zi, kongera zikabasubiza murugo kumugoroba batashye.

Umukobwa wambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umukara, yambaye ipataro y'umukara afite imisatsi isutse, arimo kwitegereza abari gukina, ikibuga ahagazemo kirakurutiriye na sima, iruhande rwe hariho abahungu batatu.

Imbaga y'abantu bateraniye mu nzu y'imyidagaduro igiye kuberamo igikorwa cy'imikino ya basket. Abakinnyi bo mu bihugu bitandukanye nkuko bigaragazwa n'imyambaro yabo ndetse n'amabendera bafite.

Abakinnyi bari gukina umupira abakinnyi babiri bambaye amajezi y'ubururu n'umweru abandi umwe yambaye ijezi y'umutuku na godiyo z'icyatsi, umukinnyi wambaye ijezi y'ubururu n'umweru yasimbutse agiye gutera umupira.

Umutwazi w'igare ari ku igare, yambaye inkweto z'ubururu zabugenewe, ari ku igare, yambaye amarinete, akaba yambaye ingofero y'umweru, yambaye kandi agapira k'umuhondo, n'ikabutura y'ubururu, ari mu irushanwa rya turu di Rwanda.

Umukinnyi uri gukina basikete yambaye inkweto z'umutuku n'amasogisi y'umweru iruhande rwe handitseho visiti Rwanda gusura u Rwanda. Visiti Rwanda ni imwe muri gahunda ya Guverinoma y'u Rwanda ituma bamukerarugendo bava i Mahanga bakaza gusura u Rwanda.

Abakinnyi ba basiketi bamwe baricaye, abandi barahagaze bambaye imipira y'icyatsi ,amakabutura y'umukara n'ayandi mabara ,bamwe bafite imipira ya basiketi mu ntoki ,ikibuga n'umukara harimo: amabara yi' icyatsi ,umweru ,umutuku n'umuhondo.

Abakinnyi barimo gukina umukino wa voleboro uyu ni umukino w'intoki. Umukinnyi ari kumwe n'umutoza we ugenda amwerekera anamubwira ibyo ari buze gukora n'uburyo abikoramo.

Umupira wa basikete na vore, uyu mupira ukozwe mu mabara y'umuhondo, umweru n'ubururu, abakinnyi ba basikete bagenda bawudunda, abakinnyi ba vore bagenda bawutera bawuhererekanya.

Inzu z'ubucuruzi zifungishijwe inzugi z'ibyuma ,mu ibara ry'umutuku inzu zubatswe ku buryo bw'impara kandi zifite inkingi .Imbere y'inzu hariho imodoka y'umukara iri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo. Umuhanda uciyemo imirongo y'umuhondo n'umweru. Umweru ku ruhande, umuhondo hagati. Iruhande rw'umuhanda hariho borodire ziri mu mabara y'umweru n'umukara. Imbere hariho imodoka.